Ni amavuta meza ndi kubona akozwe mu gikakarubamba, arinda uruhu, akarufasha kubaho ubuzima burebure kandi rubayeho neza kugira ngo bibashe kurinda nyirarwo.